Ivomero rusange aho abantu baza kuvoma amazi afite isuku, harimo abakobwa n'indobo bitwaje zo kugira ngo bavome.

Icyumba cy'ishuri aho abanyeshuri bagana kugira ngo bige bafate ubumenyi, harimo intebe n'imeza n'ikibaho cyo kwandikaho n'abana bamanitse urutoki mu ishuri.

Icyumba cyo kwa muganga abarwayi bagana mu gihe bafite ibibazo by'amenyo, harimo ibikoresho nk'igitanda baryamaho mu gihe bavurwa, n'izindi mashini zikoreshwa mu kubavura.

Icyumba cy'ubugororangingo, harimo abagabo babiri, umwe akurura umugozi bamugorora amaboko, harimo n'igitanda cy'umweru, aha ni ho abantu bagana.

Umurwayi uri kwa muganga wavuye igisebe bari kumupfuka n'igipfuko cy'umweru n'umutuku, yicaye ku gitanda na muganga uri kumufasha aho bari kwa muganga.

Ibiribwa bitandukanye birimo ibijumba, tangawizi, ibifenesi, tungurusumu, ikawa ndetse n'ibindi.